Umutu ari gufuhirira umuti mu nyanya. Inyanya z'ibitontome, ibitusha ariko bishishe cane bibyibushe. Inyanya barazishingiriye zimeze neza cane. Bigaragara ko zizatanga umusaruro gushimishije nkurikije uburyo igiti c'inyanya gifite ibitusha byinshi. Nizera biza,..

Ingabo na polisi bari mu muganda, bari kwifatanya n'abayobozi batandukanye ndetse n'abaturage muri rusange, bari gutera ibishimbo mu murima guteyemo ibigori, ibigori bihinze ku murongo, ibishimbo rero bari kubitera mu rukambi. Ku bufatanye bwa leta yunze ubumwe z'abanyarwanda.

Ibiganza by'umugabo biteruye ifumbire y'imborera irimo n'iminyorogotwo. Ifumbire bakoreshaga bari gufumbira imyaka. Bayivangaga n'ifumbire mvaruganda. Imyaka zigakura neza.

Umugabo atwaye igare ryikoreye imifuka itatu ari kunyura mu gahanda gatoya k'igitaka mu caro, hagati y'umurima gw'ibigori, imirima ibiri z'ibigori ziri hirya ugundi guri hino, uwo mugabo ari guca hagati yazo arikoreye.

Ifumbire ya ire ni ifumbire mvaruganda ikoreshwa mu gufumbira imyaka kugirango ngo izakure neza itange umusaruro mwiza. Ikoreshwa cyane cyane mu birayi ndetse no mu bindi bihingwa bitandukanye igatanga umusaruro utubutse.

Imiti ikoreshwa mu kuhira ibihingwa cangwa gutera inka n'agandi matungo gose. Nta bwo ari byiza kuyibika hafi mu gihe ufite abana batoya. Bashobora kuyinywa cangwa n'undi muntu ufite mu rugo ufite ikibazo co mu mutwe akawuywa agapfa. Ni ukuyibika kure mu gihe mwayisigaje, ukayibikaho batagera.

Ifi iriho urubura ivuye muri firigo, zitari zavaho amagaragamba ngo zitegurwe zibe izo guteka, iyo arizo ziteguye zigiye gutekwa ariya magaragamba bayakuraho, n' urwo rubura bakarukura rero izi ntabwo bari bazitunganya.

Abantu bari kuroba amafi bakoresheje inshundura. Inshundura ni igikoresho cabugenewe co kurobesha amafi, bagishiraga mu mazi, ahantu baziho ifi zikundaga kuba ziri baterura bagikuramo kigahita kizana amafi.

Indege ya polisi y'u Rwanda yahagurutse ku kibuga, iri kuzamuka mu kirere, iracyari hagati no hagati, nteragera kure cyane ivuye hasi ntigirana kure cyane mu kirere.

Ifi zumutse ni ifi ziba zaranyujijwe mu mavuta, urabona ko zitandukanye n'imbisi, izingizi zaja muri firigo zitajamo ntago zapfa gupfa kuko ziba zifitemo n'umunyu. Rero iyo ushaka kubika ifi igihe kirekire urazumutsa, ugashiraho n'umunyu. naho ziriya zitumutse udafite firigo zirapfa.

Ifi zishirwa muri firigo kugira ngo zitaza gupfa, mu gihe utazikoresheje uwo munsi, cangwa utazigurishije niba uzicuruza ngo zishire, kugira zitaza kwangirika zikanuka. Rero hano ziri muri firigo ntacyo zishobora kuba, n'icumweru cashira zikirimo nta kibazo.

Indagara zibamo amoko menshi : zigira indundi, zazibare, hari iz'umunyu, izitagira umunyu, hari amahera n'ibindi byinshi rero bigira intungamubiri. Zitekwa mu biryo byose, zigatekwa zonyine, zirishwa ibiryo byose rero abana bafite imirire mibi ndetse n'umuryango ubana n'imirire mibi.

Ifi ni inyama nziza cane zifite umumaro ku mubiri gw'umuntu. Ziruta n'inyama z'umutuku kubera ko zo zibaga ari umweru, ari inyama z'umweru. Mu buzima bwa buri munsi rero ifi ifite umumaro munini cane, abahanga bavugaga ko ziteraga n'abana kugira ubwenge.

Amafi gatandukanye agitwa tomusoni, agitwa tilapiya n' agandi moko gari mu tu base twabugenewe ni mwo bagashiraga kugira ngo gumuke , gari kuri sima impandey' abacuruzi.

Igiti c'avoka giteye mu murima gwari guhinzwemo ibigori, ariko ibigori byareze, byaranasaruwe. Ariko igiti c'avoka co wagisarura, wagira ute, kirakomezaga kikabaho, ubwo iyo voka zishizemo, izindi ziraza guco guco.

Umurima gw'ibirayi bateye umuti ariko guteze neza. Ibirayi ntago bigaragara neza, ntago byashishe, bifite biri kugaragara ku jisho ko bitameze neza.

Umurima g'ibigori, ibigori bamaze gusarura harimo ibigorigori n'ibisigati, ni ibisigati birimo bihagaze, ni umurima udahinzwe bigaragara ko basaruyemo ibigori vuba, rero babyita ibisigati cangwa ibigorigori.

Umurima usa n'uwavuyemo ibishyimbo bawita icyuzure, hari inka iri kunyura ku ruhande mu muhanda uhegereye, ariko guturuka mu muhanda inka igeze imbere y'igiti cyitwa ikidariya cy'uturabyo tw'umweru.

Igiti cy'umunyinya, cyakuze, cyahunduruye ubungubu nta mbuto zirimo ariko bigaragara ko cyasoromwe. Kiri imbere y'inzu, ituwemo n'abantu . Dore bigaragare ko ari bo bagisoroma, kiraribwa .

Ugu ni umurima gw'ibirayi. Iruhande rwago hariho ibyatsi, hariho ahantu hadahinze. Ariko Ahanze hahinze ibirayi. Hegeranye n'amago.

Umurima gw'ibirayi guhinze hagati y'amago, hirya hariyo amago no hino hariyo amago, go gurimo ibirayi, ibirayi bireze biri hafi gukungurwa ariko biracari mu murima.

Umurima gw'ibitoke guhingiye ariko gudasasiye harimo n'igiti cyitwa ikibonobono. Igiti cyitwa ikibonobono bagikuragamo amuti gwitwa magadu kuri za mbuto zaco.

Umurima gwavuyemo ibigori babyitaga ibikenyeri, harimo n'igiti c'intusi ndetse n'ikindi citwa ikidariya kigiraga utubuto tw'umweru, nibyo biri muri ico gikenyeri. Igikenyeri rero ni ahantu babaga barakuye ibigori cangwa amasaka bakaba batari bahahinga.

Umurima gwavuyemo ibigori. Harimo ibikenyeri n'ibyatsi byinshi, nta go bari bagahinga. Haruguru yago hariho umurima gw'ibirayi, ibirarayi byiza biteye neza nta go babikura bimeze neza rwose.

umurima gurimo ibihingwa bitandukanye. Harimo amateke g'amabwayisi, harimo ubwenge, ag'amabungo, ibiti by'isombe bitaga ibicucu, intoti z'inyamunyu, ibishayote . Byose bihuriye mu murima gumwe ariko ntago gukoreye nto baguhingiye, haracarimo n'ibyatsi.

Umurima w'ubwatsi bw'inka, ubona ubwatsi bw'inka zirya bwagenewe n'agandi matungo ga burya ariko babutera cane cane ababutereyeho.

Umurima gw'ibirayi. Ibirayi bigaragara ko bigeze igihe cyo gukurwa. Gukurwa cangwa gukungura kubera ko ibirayi birarabye, kandi iyo ibirayi bikuze bitangira kuraba no gutukura. Hirya yugo murima hariyo amazu. Ni umurima mbese gukikijwe n'amazu.

Iyi ni inzira yo mucaro y'amaguru itanyuragamo imodoka. Inyuragamo amagare n'abantu bari kugendesha amaguru kubera ko ni ntoya, iruhande rwayo gariho umurima gw' ibirayi.

Mu ishamba ry' intusi zivanze. Intusi z'umweru n'izitari umweru, zihinzwe uruhande rumwe urundi ruhande ni umurima gutarahingwa hari kugaragarako havuyemo imyaka y'ibigori ariko ntabwo bari baguhinga ariko hirya hariho ishamba ry'intusi zivanze z'umweru.

Imyumbati zikuriweho zirambitse ahantu mu mbuga, biragaragara ko ari mishasha ariko ahantu zivuye bazikuye harashishe, biragaragara ni minini cane.

Imyembe zitukuye zirunze ahantu hameze nk'aho zirunze mu isoko ku gisima, zisa neza cane, ziracari nshasha, ziragaragara neza rwose.

Abahinzi bari mu murima bari guhinga bakoresheje amasuka, abagabo babiri n'abagore babiri. Aho bamaze guhinga hari ubuhinge ahandi batari bahinga hari ibyatsi.

Iyi ni imiteja, imiteja y'ibishyimbo igira amoko yayo. Ibishyimbo basoromamo imisogwe ntabwo ari yo bahingamo imiteja. Imiteja iba ari ibishyimbo byabugenewe byihariye by'imiteja gusa. Imiteja iyo uyisoromye...

Umurima gw'inkeri harimo umugore uri kuzisoroma, biragaragara ko zeze ziratukuye izo amaze gusoroma ziratukuye, inkeri za kizungu yaba n'iza kinyarwanda za kera zimezaga byose byerera hasi biranda nk'imigozi z'ibijumba, inkeri zivagamo ibintu byinshi bitandukanye na za ko... barishaga imigati.

Ibijumba by'umutuku inyuma bigasa n'umuhondo imbere biraryohaga cane, biri ahantu wagira ngo babitetse mu nkono.

Ihene iziritse muye gashamba iziritse ku giti umugozi gufashe mu ijosi, bigaragara ntago ari nyinshi, ni imwe.

Umurima gw'ibigori bitari byera ariko bitangiye guheka, bitangiye kuzana ubusagi ndetse n'ibigori bihetse bifite ubusenzi . Ni bigori biteye umurongo biteye neza bigaragara ko bidateye mu kajagari.

Igihaza kiki mu murima .Inkota yacyo iracyari ku ruyuzi ntabwo bari bagica .Kirasa neza..............................................

Amapera g'umutuku ni amapera garyohaga. gaciriweho, garambitse ahantu, rimwe barisatuyemo kabiri, biri kugaragara ko ari ag'umutuku. Amapera rero g'umutuku, gatandukanye n'ag'umweru. Habaga n'ag'umweru. Hariho ukundaga ag'umweru, hariho ukundaga ag'umutuku ariko aga ni go garyahaga.

Ibigori by'amahundo ni ibigori bibaga byumye bitari byahungurwa ngo bive ku binyamugori. Rero biri mu mufuka, ibindi bishashe mu mbuga biranitse. Iyo ushaka kubirya gutya urabiteka mu bishimbo, iyo ushaka kubivungura ngo urye impungure na bwo birashoboka no kubibetesha ngo bivemo ifu y'igikoma.

Ibitunguru by'umutuku bitatu birambitse birambitse, hamwe bakoragamo umuti batekamubiryo, babikoragamo na sarade.

Umugore ari mu murima gw'inyanya, inyanya zimwe ziratukuye izindi ziracari ibitubwe ntabwo ziratukura. Iizo nyanya zihinze mu mashashi y'umukara.

Abana b'abakobwa babiri bavuye mu murima w'imyumbati, umwe afite utwumbati dutoya ku nkoko, undi atereye isuka ku rutugu yikoreye igitebo kirimo ibyatsi bimeze nk'ibisombe cangwa n'umushogoro.

Abagore n'abagabo bari mu murima gw'ibirayi. Bari kubikura, bamaze kugira ibyo bakura biri hejuru. Bafite n'agafuka ko kubipakiramo ariko ntabwo bari babipakira. Barahuze bari gukura biragaragara ko hari ibirayi byeze rwose.

Umurima gw'icayi gwurimo abagore bari gusorama icayi. Biragaragara ko gikuze, kuko ntabwo wasoroma icayi cidakuze. Ni abagore bahetse ibitete ku mugongo bari gusoroma.

umugore ari mu murima g'umushogoro koko mwiza! Ibishimbo bishishe bifite umushogoro mwiza biteye apeti. Uhereye ku co hasi ukageza ku co hejuru cose wagisoroma kigasha.

Umugore ari kwanika ibigori ahabugenewe bita mu bwanikiro. Ahantu urahanika, imyaka yamara kuma, ukayanura uyijaana mu rugo cangwa uyijana mu isoko.

Igiti c'avoka gisasiye neza, kiri kuzamuka, kikiri akagemwe gatoya, kimaze gukura, gisasiye neza, kizazamuka neza cane.

Amasaka garatuku ni amasaka gahingwaga mu Rwanda ndetse n'ahandi henshi mu bihugu bituranye n'u Rwanda, bagakoragamo umusururu ariko barabanza bakaginika, gakaba amamera, nyuma yo kuba amamera bakakuramo imisururu babetesheje, rero gagiraga intungamubiri no mu gikoma.

Imyembe z'ibitombwe sitari zatukura zikiri mu giti, zigifite n'uruyange. lmyembe.

Ni ahantu hateretse imifuka y'ibigori bya mayizori n'izindi mifuka ziri munsi y'indi myaka .

Umugabo ari gupakira inyanya mu mufuka, imifuka myinshi. Ari kuzikura mu mu mu gipani mu gitebo, ari ku zishira mu dufuka. Iruhande rwe hariho n'ibishogoshogo by'ibishagari, ni ibishagari by'amakoma yo gutwikirizaho.

Urubuto rw'ipera ruri mu giti ariko rukiri igitushi rutari rwatukura . Habagaho amapera g'umweru n'ag'umutuku ariko utarisatuye ngo urirebe mo imbere ntabwo wabimenya ngo ni umutuku cangwa ni umweru. Ariko amapera ni imbuto ziryoha cane , cane cane umutuku.

Umwumbati ni ibiryo bihingwaga mu Rwanda，kino ni igiti cy'umwumbati， ni igitsina kimwe kiriho imyumbati ingana gutya， rero ukumba tugaye ku igare ntibwo kigukura nimushashe.

Umugore ahagaze mu muririma gw'ibirayi, intoki ze ziri kugaragaza ko yahoze ari kubagara, afashe telefone mu ntoki arikukoramo muri sikirini, ari kureba, ashobora kuba ari kureba ko umumotari umuhamagaye cangwa afite ikindi kintu ari kureba, ariko biragaragara ko bari bamuhamagaye kubera ko afite uburimiro mu ntoki yari ari kubagara.

Mbiringanya ni ubwoko bw'imboga buri mu bwoko bw'intoryi, zikoreshwa nk'intoryi. Uko intoryi ziribwa niko na mbiringanya ziribwa. Ikindi iyo uzirebye umaze kuzihata no kuzisatura, ubona zimeze nk'intoryi. Gusa zitandukaniye ku mazina n'ububuryohe bwazo.

umurima gw'ibigori biri guheka. Harimo ibihetse bibiri, ibihetse kimwe, bisa neza bifite amababi gatotoshe, biri ahantu heza hafi te ifumbire. Ibigori byatangiye kuzana ubusenzi.

Ni abagabo babiri n'umugore umwe, ni abantu batatu mbese. Umwe afashe ikese ni ko tuyitaga, kino kintu tucikaga igikesi. Umwe afashe igikesi kirimo inyanya, undi afashe igikesi kirimo imboga za dodo, undi afashe igikesi kirimo sereri.

Igihaza ni ibiryo byeraga hakoreshejwe kubitera iyo uri kugitera uteraga inzuzi, inzuzi rero zizanaga igisusa igisusa akaba aricyo kibyara ibihaza.

Ibijumba n'ibirayi biri kumwe biri ku kintu gisa n'umweru. Ibirayi birasatuye, ibijumba ni bibiri. Mu bigaragara, ikirayi ni kimwe basatuyemo kabiri, n'ibijumba ni bibiri.

Abagore batatu bari guhura uburo, bamara kubuhura bakanabugosora, bakabugosorera ahantu babusaruriye. Uburo ntabwo babusarura ahubwo barabugesa, bitandukanye n'amasaka, amasaka baragasaruraga, uburo bakabugesa.

Indimu n'ibihaza biri mu isoko hejuru y'ibisima. Bitegereje gucuruzwa. Indimu ni umuti zikoreshwa mu buryo bwo kuvura inkorora. Igihaza cyo ni ibiryo, bakigereka ku bishyimbo bagacanira, biterwa n'ubwoko bw'igihaza.

Umubyeyi arizihiwe ari gusoroma imboga za dodo zitwa "garuka usorome'', ni dodo bahingaga mu Ruhengeri sinzi niba hari n'utundi turere tuzihingaga. Iyo dodo urayihinga ikazamuka, ukayishingirira ikamera nk'igishimbo, ugasoroma, ukongera ugasoroma, ukongera ugasoroma, ntago zisazaga, niyo mpamvu bazita garuka usorome.

Abantu bari gusarura ibigoribirumye. Bari kubyanura kugira ngo babikure mu murima babijyanane mu rugo, harimo: abagore, abagabo n'abana. Abo bose ni baje gufatanya kugira ngo akazi kagende neza kandi karangire neza.

Aya ni amateke yo bita amanyirabwenge, hari aho bayita amanyirabwenge hari aho bayita amasitirida, ariko muri aka karere kacu ka Musanze tuyita amanyirabwenge, amateke aryoha cyane.

Abantu bambaye niforume y'umweru, bari gutondeka avoka mu makarito ya bugenewe, bari gutondeka ama avoka mbese, rero buriya ni buryo bazibika kugira ngo zitangirika cyane.

Umugabo ari mu murima gw'inyanya, inyanya z'ishishe zimeze neza ariko z'ibitunge zitari izatukura, zifotorejemo arasutamye yambaye n'iforome niba ashinzwe iby'ubuhinzi, ariko izo nyanya ntago ziratukura.

Ibitunguru bya puwaro n'ibitunguru byera bikagira amababi y'icatsi, bigasa umweru hasi, bikagira n'utuzi tw'umweru, imizi y'umweru, ibitunguru biryohaga. Babiteka mu isombe, bakabiteka mu nyama babitekaga mu biryo byose.

Povuro n' ikirungo ciza cane, gikoreshwa mu nyama. Zikoreshwa mu biryo byose, wakwifuza kugitekamo, karoti na zo n'imboga nziza, umuntu akwiriye kujya akoresha buri munsi kugirango imirire ye n'iyabana bigende neza, bityo twirinde igwingira.

Ibirayi byitwa koruseke, bija gusa na kinigi. Byose bibaga ari umutuku ariko umutuku gwabyo ntabwo gubaga gusa. Rero ibi byitwa koruseke bamaze kubikura biri mu mirima ntago babikuramo ngo babice mu mirima.

Umugabo ari muri pepinyeri zitandukanye zabugenewe ari kuzikorera isuku. Zirubakiye mu gihe cy'izuba zihura n'ikibazo cy'izuba cane ndetse n'igihe cy'imvura nta zahura n'imvura cane mbese ziri ahantu heza habugenewe.

Abahinzi bari guhinga mu murima, n'abagabo n'abagore biragaragara ko ari hanini cyane, bigaragara ko ari koperative guhinga, cyangwa umurimo w'umuntu bahuje bakwiye, kuko bamaze guhinga hanini cyane.

Amasaka g'umutuku ni igihingwa gihingwa kikagira umumaro, amasaka iyo geze, turagabeteshaga tukanywa igikoma, tukarya umutsima gago, tugakoresha imbetezi, gafite umumaro mwinshi.

Inkoko zigaburiwe neza zikura neza zikagira ibiro ndetse zigatanga umusaruro mwinshi . Izi uko uzireba zirimo kurya zimeze neza, rero inkoko uko uyifashe neza niko iguha umusaruro mwiza iyo ari ugutera ukayigaburira igahaga itera menshi kandi meza.

Ibishimbo byameze， bisa nabi wagira ngo bari barabisutse hasi birahamerera. Rero bifite umuzi byari byatangiye kumerera ahantu birenze.

Imurikagurisha bari kwerekana imbuto zitandukanye, ibishimbo, ubunyobwa, soya, n'ibindi byinshi bitandukanye bakoresheje udupapuro twanditse buri ibihingwa.

Ibishimbo bya kizungu ni ibishimbo bikoreshwa nk'umuti, bigakoreshwa nk'ibiryo biribwa, Hari igihe tubirya, hari igihe tubikoresha nk'igihe inzoka irumye umuntu igomboraga umuntu kikuragamo ubukana bw'inzoka ubumara bw'inzoka ibumaragamo

Umurima w'ibigori, ibigori birashishe，bitangiye kuzana ubusage, ndetse no guheka ni ku butaka busa, ndabona ko mu busirarasi ukwe byari bigaragara ko byafunguwe bimeze neza.

Imifuka ya deshe myinshi iteretse ahantu hamwe, deshe ni ibiryo by'inkoko ni iby'inka ni iby'ingurube, ni ibiryo by'amatungo muri rusange. Amatungo gose arabirya kugira yongere umusaruro, iyo inkoko zabiriye zitera amagi menshi ingurube zabiriye zikabwagura ibibwana byinshi.

Imbuto zitandukanye ibishimbo, amasaka, ibigori ,ingano biri mu isoko ririmo ibindi bitandukanye harimo n'imyenda. Ni isoko rifite ibicuruzwa bivangavanze.

Ibishyimbo biri ku isahani by'umutuku bitetse hari n'bishemba babyitaga umunyezahegagiraga mema inwa bw umutugu n'i w'gatekeshata salesantan ibiryo biratukuraragagira ngo wabiru nibishima byiza chane birashaga bivan

Buno ni ubunyobwa bwo bakuye. Ntabwo bari babukura ku mizi, mbese ntabwo baratangira kubusogora, buracari ku mizi. Burunze aho.

Abantu bari kugesa amasaka, bari gusarura amasaka, ariko amasaka bari gusarura ntabwo gumye, ni ibitete, iyo gatumye gabaga ibitete. Bagiye basarurira hejuru hejuru, ntabwo bigeze batemera hasi, ubwo rero gavagamo igikoma Kandi kiryoshe.

Abagore bafite agakoko， gasutsweho ibishimbo by'amoko yose atandukanye， umutuku， umuhondo，umweru， ibyo bitaga sinoma byose barabifite ku gakoko kamwe， kandi buri wese afashe kuri ako gakoko，rero hano hagaragaza imbuto n'amoko y'imbuto z'ibishimbo.

Impungungore ni ibiryo byiza, biryoha, ni ibigori byumye bahungura, bakabiteka, bakabitogotesha, bagashiramo umunyu n’ibishimbo. Byamara gusha, ugahekenya, bibaga biryoshe, bigiraga n’intungamubiri nyinshi.

Ikiganza kiyoye ibishimbo byapfunduye bifite imitwe, kiri mu mufuka, ikiganza cakoze mu mufuka go birimo.

Ubunyobwa butonoye, buri mu kantu babushizemo n'ubundi budatoneye ariko bigaragara ko butari bwuma, ntabwo bwari bwuma buracari bubisi. Ubunyobwa rero hakorwaga zitandukanye kuzamuso mu ba baka buvagamo amavu kanditkorag ibi byinshi

Impeke zitandukanye: amasaka, amashaza, ibigori ingano ,nibindi byinshi ndetse hamwe kugaragara ko gucuruzwa.

Umurima gwa soya yumye, yumye neza yumiye ku biti iracari mu murima, imeze nk'ibishimbo byumye.

umurima w'ibishimbo uhinzemo ibishyimbo by'imishingiriro, urimo umihembezo. Ibishimbo byatangiye kuzamuka ku mihembezo, byazanye urugoyi rwafashe ku mihembezo, ariko ntago rwari rwageramo umushogoro wo gusoroma.

Umurima w'ibigori bya Mayizeri, ni ibigori bibaga bisa n'umuhondo, iyo byeze biraryohaga cane. Ariko iyo bikiri bitoto cane, harimo ibishariraga. Bifite intete nziza cane, biri mu ifumbire nziza, bivagamo n'akawunga, barabitonoraga bikavamo patejone.

Umurima w'amasaka urimo amasaka atari yatukura neza, aracyari ntabwo ari iteka, ariko nta n'ubwo yeze yo gusarurwa, aracyabura igihe gitoya ngo tuyakure mu murima, ariko ni umurima urimo amasaka abiri gusa, ibindi ni ibisakasaka.

Umukobwa uri kugusora ibishimbo ku nkoko, yicaye ku buye, afiteho n'igishushanyo ku mubiri, ico bitaga tatuwaje. Mu kirere kiri iruhande rwe hasi. Yambaye utuntu twa se turi kugaragaza ubusa.

Umugore ari gutoranya ubunyobwa ariko ubu bunyobwa nta bwo bwari bwatoranywa buracari mu bishishwa. Ari kurebamo ububoze akabukuramo, kugira ngo ubusigaye baze kuba babwanitse.

Ubwatsi bwa bwavagamyo ibirago, bamaze kuhonda bwanitse, Iyo bwamaraga kuma bahatangiraga bagapfa migunguni bafu.

Ni umurima guhinzwemo soya. Gumwe guhinzwemo soya imaze gupfundura, ifite amababi menshi mu mutabo gumwe indi harimo itariyapfundura neza bikikijwe n'iindi myaka itandukanye harimo n'ibiko bishinze.

umujyango w'umugore n'umugabo n'abana, bari mu murima, bari bari gukura ibirayi, hariho akadobo karimo ibirayi, akandi ka base karimo ibishyimbo, biragaragara ko bari mu mutaka ushaje, wagirango ngo bari kwihishamo imvura, cyangwa izuba.

Umurima gw'ibihwagare byumye. Ibihwagari byumye babikoragamo amavuta ndetse uranabitonora ukabikaranga nk'ubunyobwa, ukabihekenya gutyo. Amavuta g'ibihwagari ni umuti cane ku bintu byinshi ndetse no kuba hari umutegaranaryohaga cane.

Abagabo batatu bari kumwe n'inka, umwe muri bo ari kuyishishira, undi afite ibyo ahugiyemo. Iri ahantu mutwatsi nta n'ubwo iri kurisha. Iri ahantu mu twatsi, si mu gikoyu, si mu ishyamba, ni nko ku nzira bari kunyura.

Inzu y'ibagiro ry'amatungo. Harimo inyama zimanitse, ibyuma byabugenewe, harimo ababazi ndetse harimo n'abanyeshuri baje kureba uko igikorwa cyo kubaga kigendaga.

Inka iteze nk'inyambo, iteze nk'izo mu Rurukari i Nyanza. Iri mu rwuri, irahagaze ntabwo iri kurisha ariko izindi ziri kurisha, imeze nk'ifite umuntu iri kwitegereza.

umutavu gw'inka guvutse vuba, gufite ibara ry'umweru, ni ryo ryiganje mu rindi ririmo, guri mu rugo, guratereye, nta murunga guwurimo yaba mu ijosi yaba mu kuguru, gurahagaze gusa guratereye.

Inkwavu zirya ibyatsi ntabwo zijya mu ishyamba kurisha, ahubwo aho zabugenewe kuko ziri hano inzu yazo ubwatsi barabusoroma, barabuca, zikareba inzu yazo, zitunzwe n'Ubwatsi.

Umugabo ari gukama inka iziritse amaguru kugirango itamutera umugeri, ari gukamira mu kadobo kavuyemo omo kitwa nomi, ubwo ni ko yifashishije kubwo kubura imkongoro, iyo ubuze inkongoro wifaishisha icyo ufite nk'ijaga ubwo na we ni ko yabonye hafi.

Isoko ry'ihene ndetse na yandi matungo. Harimo umugabo waje kugura ihene nu waje kuziguzigurisha ari kureba niba zujuje ibyangombwa bakanda mumayunguyungu bakumva niba ifite inyama ntihari ubwo rero ihene akayifata ugatanganamatihene.

Imishwi y'inkoko ikiri mitoya cane, iri mu nzu, aho zagenewe kororerwa, hasi hari nk'isasu badusasiye, ni udushwi twinshi cyane cane.

Urukwavu rurabondamye mu cyari, ruri mu kazu kabugenewe, rusasiwe icari, ruri no konsa utwana twa rwo.

Inyana z'inka nyinshi zi ziri ahantu hamwe hari ubwatsi, zimwe zirahagaze izindi ziri kurisha bazitwikiriye shitingi kugira ngo izuba ritazica.

Ingagi nazo ziravurwa nk'abandi bantu bose, ubuzima bwazo zirarwara zigakenera umuganga. Iyi ngiyi rero umuganga arimo kuyivura, ifashwe n'abantu babiri harimo abazu babiri, umuganga w'umwirabura umwe.

Inka ziri mu rwuri, zimwe ziri kurisha, izindi zirahagaze, zitoboye amatwi, zipfumiye amatwi, bazambitse nimero kugirango babashe gutandukanya inka. Iyo zambaye nimero, umenya izawe iyo zihuye n'izindi ari nyinshi, ndetse nawe ubwawe ukamenya gutandukanya izawe.

Umwana uriye igi akura neza agira ubuzima bwiza, kuko igi ubusanzwe ribamo intungamubiri zose. Rero umwana yemerewe kurya igi rimwe ku munsi. Iyo umwana yariye igi rimwe ku munsi aba yariye intungamubiri zose ziba mu bintu byose. N byo rero kugira ngo turwanye imirire mibi.

Umugore ari gutera ihene urushinjye hariho umuntu uzimufashije na we afashe urushinjye ari kuzitera, yambaye nagapfukamunwa ni umuvuzi w'amatungo witwaga veterineri.

Inka iri mu kiraro hari umukobwa uri kuyikorera isuku ,ari kuyoza yambaye n'umwenda gwabugenewe , wagira ngo ni veterineri yambaye bote n'isarubeti.

Abagabo babiri bafashe ingurube, bari kuyikura umugozi mu kuguru gwayinyuzemo. Barayiziritse ukuguru, none umugozi gwayinyuzemo nigo bari gukoramo.

Umugabo ari mu kiraro cy'ingurube，afite ingurube nyinshi，afite amikoro，afitemo ibibwana，ari mu kiraro cyazo， aho ziraraga. Niho ziraraga，niho ziriraga，mbese byose niho zibikoreraga. Rero ubworozi bw'ingurube，ni ubworozi bwororoka vuba kandi bwunguka.

Inyoni iri ku giti gitambitse cavunikiye hejuru nticagera hasi citwa umugogo kiri mu kirere ntago cyavunitse ngo gitandukane kiri mu ishamba.

Inyoni y'inyampanda iri mu byatsi, ifite amabara y'umukara n'umweru, ni inyoni ikunze kurangwa no kugira igisembe kinini cane, ikagira n'akanwa gato gasongosoye, ni inyoni itona, nta kibazo cayo.

Igisimba bitaga igitera kija kwifata nk'ingagi. Ariko co, kibaga gifite mu kabuno hatukuye. Kandi co gifataga abagore ku ngufu. Rero gisuzuguraga abagore iyo gihuye n'umugore wenyine kimfataga ku ngufu, kandi iyo kibonye abagabo kiriruka.

Inyoni iri mu cari, yari yagiye guhahira ibyana byayo iraje birasamye bitegereje ko ibicira mu kanwa. Iyo imaze kubicira mu kanwa, bisubira mu cari, na yo igasubira guhiga ibindi byo kurya. Cangwa byaba bihaze ikajya mu cari cayo na yo ikaruhuka.

Icana c'ingagi kiri mu ishamba. Ingagi zibaga mu birunga aho bitaga mu Kinigi. Mu Kinigi ni ho dufite ishamba ry'ibirunga ribagamo ingagi. Abazungu ba mukerarugendo bazaga gusura ingagi baturutse mu mahanga, arizo baje kureba.

Igisimba bitaga igihunyira kiba kimeze nk'umuca ariko co kiba gifite ibyiso bikanuye cane, ntabwo kirebaga ku mwanywa kirebaga nijoro gusa, bakita igihunyira.

Iyi ni imisambi ibiri iri mu bwatsi bwiza busa n'icatsi, ihagaze iri kurebana. Iri ahantu heza cane hasa neza.

Agasimba kitwa isha ni agasimba kazi kwirukanka cane cane. Iyo kari mu ishamba hakagira igisimba kikirukaho, kugafata biragorana. urabona ko kari kwiruka cane nk'agafite ikigakurikiye.

Inyoni ibiri zihagaze ku rusinga rw'amashanyarazi. Ziritaruye imwe iri kurebana n'iyindi, wagira ngo ziri kuganira mu rurimi rwazo.

Inyange ni inyoni ikunda ahantu haba inka. Ahantu hose habaga inka inyange ibaga ihari. Rero ni inyoni nziza cane igizwe n'amabara g'umweru n'umukara. Zikunda kuba mu gikuyu, kuko n'inka zikunda kuba ziri mu gikuyu. Ntago bitandukanaga.

Izi ni ingurubezo mwishyambazo bitaga isatura iyi ipfukamye irikurisha .Iyigiyekurisha irapfukamaga, Iriya nayo ita ihagaze itari kurisha nagoyariyatangira kurisha nitangira kurisha nayo irapfukama .Ziri mu ishyamba ariko ritagira ubwatsi.

Inyoni iri mu ishamba ihagaze ku giti, igiti kitambitse mu ishamba hejuru, biragaragara ko hari aho cacitse ntigitandukane ndetse ntikigwe hasi rero nico inyoni ihagazeho, hasi ni harehare cane kugitema wagira ngo ni mu kiyaga.

Aka gasimba kitwa isha. Kari mu ishamba， mu bigaragara hari igisimba kiri ku kirukaho, ukurikije ukuntu kari kwirukanka. Kazi kwirukanka cane cane，ntago wakwirukaho ngo upfe kugafata.

Ikigona kiri mu bwoko bw'inyoni， gifite amabara g’umweru n’ag’umukara， gihagaze ku giti cumye gitambitse mu kirere， kiri kureba hasi，kimeze nk’ikigiye kurebesha umunwa hasi, ....（？？？？）

Inyoni ihagaze mu giti cumye, nta kibabi na kimwe gifite, ugicanye cakwaka, ni urukwi . Ihagaze mu giti gitambitse, urebye gitambitse hejuru y'amazi, inyoni na yo iri gutumbira mu ishamba, ntawamenya ico iri kureba.

Imvubu iri hamwe n'icana cayo biri mu mazi biteye umugongo i musozi biri kwerekeza mu mazi. Imvubu ikikijwe n'ikinini biri kwerekeza i musozi biva mu mazi.

Imitubu yavuye mu mazi yicaye ku giti hejuru, ico giti kiri hejuru y'amazi ,ariko imitubu ntago iri mu mazi yicaye hejuru y'igiti.

Dendo ziri mu bwoko bw'inkoko ziri mu bwoko bw'inkoko ziraribwa zigira inyama iryoshye. Zirakura zikarenga hano ndetse zishobora no kurinda umutekano; ushobora kugera iwabo zitakuzi zikakwirukankaho zikakudomagura.

Iyi nyoni iri ku giti gitambitse, ifite amabara g'umuhondo n'ag'ubururu na move, bayitaga imisure. Imisure ni inyoni ikundaga kona imyaka cane, yaba ibishimbo, yaba amasaka, yaba amashaza, ironaga cane.